Icyapa kigaragaza ubwishingizi bwa SONARWA, kiriho amagambo ari mu rurimi rw'amahanga, uyagenekereje mu kinyarwanda bivuga ngo ''igihe uri mu maboko atunganye nta mpamvu yo guhangayika'' kiriho umugabo wishimye uri guseka wambaye karuvati ndetse n'ishati y'umweru.

Icyapa cyamamaza sosiyete y'ubwishingizi cyanditse mu magambo y'ubururu ndetse n'umukara, muri icyo cyapa hakaba harimo umukobwa w'umuzungu urimo guseka n'imashini z'ubuhinzi, amagambo acyanditsemo ni nka Tabu Safu Inshuwarensi.

Uburyo bwiza bwo gukoresha banki yawe muri telefone yawe, iyi ni telefoni irimo uburyo amafaranga yagiye akoreshwa, ukaba ubona ko iri mu twumba tune, ndetse ako hejuru kakaba kari mu ibara ry'umuhondo.

Imodoka eshatu nziza cyane, ziparitse ku murongo, ubona ko zitegereje kugurishwa. Imodoka yambere iri mu mabara y'umweru n'umukara ndetse n'amatara atukura. Ikurikiyeho iri mu mabara y'umukara ndetse n'amabara atukura.

Iyi ni imodoka nziza itwara abagenzi kandi mu buryo bugezweho. Urebye urabona iparitse muri gare nziza cyane, hari imbuga ihagije ndetse hari n'ibiti bihakikije, bigaragara ko abahagenda muri iyo gare babona umwuka mwiza uhagije.

Ibiceri bibiri byakoreshwaga kera, igiceri cya mirongo itanu cyanditseho amagambo y'igifaransa, ndetse kikaba kiriho n'ikawa n'ikindi kimera.

Inzu ikorerwamo ibikorwa by'amabanki byiganjemo kubitsa no kubikuza, harimo abantu batandukanye, abari gusaba serivisi zo kubitsa no kubikuza ndetse n'abandi bari kuzitanga.

Umugabo uri kubara amafaranga akoresheje imashini yabugenewe, imbere ye hari udupfunyika tw'amafaranga y'inoti zitandukanye za magana atanu, ndetse ziriho udufimbo tugiye tuzipfunyitse mu byiciro.

Ahantu bagurisha bakanakira amata, imbere yaho haparitse moto iriho icyansi kinini cyane, hariho amagare ndetse n'abantu batandukanye, bari muri serivisi zabo ndetse hari n'ibiti, iyo nyubako ikaba yubakishijwe amakaro.

Agakoresho k'agapalasitiki k'umukara karimo amagi atatu hakaba harimo n'agacupa gato kaba karimo uduti bakuza imyanda mu menyo bita kirida ako gakoresho gateretse ku meza nziza cyane y'umweru.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane batandukanye; imbere haragaragara abasore babiri ndetse n'umumama umwe. Aba, umusore ku ruhande yifashe mu mifuka yambaye ishati itukura, undi yambaye ishati y'icyatsi cyerurutse, umumama yambaye agapira ka MTN.

Icyapa cy'umuhondo kirimo ikiganza gifite amafaranga ari mu bwoko butandukanye, amafaranga inote y'ijana y'amayero, inote y'ibihumbi bibiri by'amafaranga y'u Rwanda, inote y'ijana itagaragara neza, inote y'ibihumbi bitanu by'amafaranga Rwanda ndetse na none n'indi y'ijana y'amayero, yanditsemo amagambo agirango turi ku ruhande rwawe.

Ikiganza gifite isuku, gifite telefone nziza cyane, iyi bita taci. Irimo sisitemu ya sipeni ndetse na aya endemu banke buranshi, iri kugaragaza uburyo bwo kwishyura no kwakira amafaranga ukoresheje sipeni.

Uru ni urwandiko rushimira abantu batanze imisoro neza. Uru ni urwandiko rutangwa n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Imisoro n'Amahoro, rukaba rurimo ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Inyandiko ya leta ishimira abatanze umusoro neza, iyi ni inyandiko yaturutse mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibyinjira imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti.

Udupfunyika dutandatu tw'inoti zanditseho magana abiri y'amayero. Aya mafaranga akaba afite ikirango cy'inzu nini cyane wagira ngo ni ubwami, hariho n'akadarapo k'ubururu karimo utunyenyeri twinshi.

Guhererekanya amafaranga ukoresheje ikiganza, amafaranga atandukanye harimo inoti ya magana atanu, inoti ya bibiri mbese ni inoti zifite amabara atandukanye.

Agakiriro gakora ibijyanye n'intebe, ibitanda, ukaba ubona ko hari intebe zimye zitari zakorwa neza hejuru hari amapampa bashyiramo mu ntebe z'ubwoko bw'amadiva, iki ni igitanda cyamaze gukorwa gitegereje gushyirwa ku isoko.

Utubati tubiri dukozwe mu mpande ya kare, mu mfuruka zingana, tukaba tunyuze mu kandi kabati k'umweru mbese bikoze umutako mwiza cyane unogeye ijisho ku buryo bikurura ubireba wese.

Ahantu heza cyane hari bariko yitegeye umugi, ku buryo uyicayemo ufata icyo kunywa uba uwirebera neza cyane, hariho akameza k'agasirimu gateretseho uturahure tubiri, turimo icyo kunywa ndetse n'uduheha tubiri, hari n'udutebe tubiri two kwicaraho.

Ubwiherero bugezweho bwubatswe neza ndetse bwujuje ibisabwa, imbere ni amakaro, harimo agasume ndetse na lavabo zimwe za kijyambere, urebye bufite isuku ndetse n'ahandi abantu bakanda amazi akamanuka bamaze gukora ibyo bari bashaka gukora.

Ahantu heza ho gusohokera hari intebe zigezweho, ameza agezweho, amatara agezweho, mbese hagaragara nkaho ari muri hoteli, muri ayo meza hari utuntu tw'uturabo turi mu bwoko bw'imikindo.

Icyumba giteguwe neza ubona ko bigaragara ko ari icyumba gikorerwamo ibiganiro by'abantu basirimutse, harimo abantu batatu umwe yambaye ishati y'umweru, undi yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ipantaro yayo, undi yambaye ipantaro yo mu bwoko bw'amajinizi y'ubururu ndetse n'agapira k'umutuku.

Icyapa cy'ubururu cyamamaza banke ya BK kirimo umubare kane n'amagambo agira ati impamvu yo gutunga BK ukaba utekanye wabona inguzanyo kirimo umugabo wambaye agapira k'ubururu wishimye n'akamenyetso kerekana amerekezo.

Icyapa cy'icyatsi n'umweru cyanditsemo magambo yo mu mpine ''BRD'' . Iki cyapa kirimo ishusho ya mikororofone, kirimo kirashishikariza abantu kwihuza bakuganira ku bigo byubagarije imiryango urubyiruko.

Icyapa kinini kiriho abantu batatu bose bishimye, umusore n'inkumi barimo baraseka ndetse hari n'umugabo ufite urufunguzo, icyo cyapa cyanditseho amagambo agira ati'' inyungu nkeya.''

Iduka ricururizwamo imyenda myiza y'abagore. Muri iryo duka, harimo umugore wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, akaba akoze mu mifuka. Muri iryo duka kandi harimo nanone intebe nziza ya purasitike wicara wegamiye.

Icyapa kigaragaza uburyo bwo kwishyura ukoresheje momo, hagaragara imibare nko gukanda akanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri zeru mirongo irindwi n'cyenda, mirongo itanu na gatanu, mirongo irindwi n'umunani, urwego.

Akazu gatoya ka MTN kari mu mabara y'umuhondo kanditseho amagambo atandukanye mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara, ako kazu karafunguye gahagazeho umugabo uri gusaba serivise za MTN.

Uburyo bwo gutuma ibintu mu mahanga ukoresheje ikoranabuhanga, aya magambo yanditse mu ibara ry'umuhondo ndetse no mu ibara ry'umukara, hari udukoresho dutandukanye ndetse n'indangacyerekezo zitandukanye.

Umugabo wicaye mu modoka, umugabo yambaye ingofero y'ubururu ndetse n'agapira k'ubururu, afite agakarito k'umweru gashushanyijeho utuzeru tw'ubururu, handitseho isoko rigari doti komo umugabo arishimye.

Ikirango kigaragaza isoko rikorerwa ku ikoranabuhanga ryitwa Murukari, iri ni isoko rigezweho, iki kirango kikaba kirimo udupfunyika tugiye dutandukanye mbese dutatswe neza hakaba handitseho ijambo rigira riti ni iki kijyanye na gifuti.

Iyi ni inzu nziza cyane yo guturamo iri mu Mujyi wa Kigali. Iyi nzu ifite jaride nziza n'utubariko tunogeye ijisho, hejuru handitsemo amagambo agira ati: "Aha ngaha ni ho amadolari igihumbi na makumyabiri ku kwezi, ashobora kugutuza muri Kigali".

Icyumba cyiza giteguye neza cyane kirimo amatara meza, ameza agezweho ndetse n'imitako myiza itandukanye, harimo intebe nziza cyane na sikirini nini cyane nziza yo kureberaho amashusho agiye atandukanye, iki cyumba cyubatse ku buryo bwiza kandi bugezweho.

Inzu nziza cyane ikodeshwa, irimo amatara, udutebe twa kijyambere, utubati tugezweho, iyi nzu irakodeshwa amadolari y'Amerika igihumbi n'ijana ku kwezi ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali.

Icyumba kirimo utubati twiza cyane mu buryo bugezweho, harimo itara ryiza cyane, kikaba cyubakishije amakaro, hanyuma hakaba hagaragaramo amagambo avuga ngo Kacyiru Kigali siti.

Inzu nziza cyane iri mu mujyi wa Kigali, iyi nzu iragurishwa, hari igiciro inzu igenewe cy'amafaranga miliyoni ijana na mirongo itatu, zishobora kukugurira iyi nzu mu mujyi wa Kigali, rero ni ukuvuga ngo mwihute muhahe abafite amafaranga.

Inzu nziza cyane iherereye i Kanombe, iyi nzu yubatswe mu buryo bugezweho ikaba iri kugurishwa, ifite imbuga yisanzuye kandi nini cyane, ingano y'ikibanza akaba ari metero magana atatu na mirongo itanu, ikaba igurishwa amafaranga miliyoni ijana y'amanyarwanda.

Iyi ni inzu igurishwa iherereye Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, agaciro kayo ni miliyoni ijana na mirongo ine gusa, urabona ko yubatse mu buryo bwa kijyambere, iri mu marangi y'umuhondo n'umweru, ikaba isakaye ifite amabati atukura kandi ikaba ikorutiye.

Inzu nini cyane yagutse ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ndani y'iyo nzu harimo amatara, ibicuruzwa bitandukanye, abantu bari gushaka serivise no guhitamo ibyo batora ndetse harimo n'akabati keza cyane ku mutuku.

Icyumba kirimo imyenda y'umuhondo, umutuku, umukara ndetse hakaba harimo udupfunyika twinshi cyane twanditseho RSSB twa mituweli ndetse n'utundi dutandukanye.

Icyapa kigaragaza umushinga w'ejo heza. Kiriho umugabo wambaye amarinete y'akazi, ndetse n'ingofero y'ubwirinzi twita kasike. Umugabo yambaye isarubeti y'ubururu, afite n'inyundo mu kiganza. Icyapa cyanditseho amagambo agira ati: "Ntuzatinye izabukuru."

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye nk'imigati ndetse hakaba harimo n'abantu batandukanye. Abari gucagura ibyo bari butware, abari kujya mu biciro by'ibyo bamaze guhitamo. Harimo abakobwa babiri bambaye udupira tw'imihondo, bigaragaza y'uko hari serivise bari gutanga.